Umudamu wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ikoti ry'umukara, ahagaze imbere y'imbaga, inyuma ye hari isakazamashusho afashe indangururamajwi mu kiganza, arimo gutanga ikiganiro ku mbaga imukurikiye.

Inzu iriho ibyapa by'umutuku bya sosiyete itanga serivisi z'itumanaho ya Eyateri ndetse n'ibyapa bya mapesa, byifashishwa mu kohereza amafaranga, aho barimo kwamamaza serivisi itangirwa muri iyi nyubako yo kohereza amafaranga mu mahanga.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'abanyeshuri bari imbere ya mudasobwa. Bakikijwe n'abarimu barimo kubafasha kwiga iby'ikoranabuhanga ndetse biga no gukoresha mudasobwa zigendanwa.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe abakozi ba Leta n'umurimo, aho cyakoresheje uru rubuga mu kwifuriza abanyarwanda bose muri rusange, umunsi mwiza wahariwe umurimo.

inyubako ndende y'igorofa izwi nko kwa makosa peace plaza ikaba iherereye mu mujyi wa kigali mu karere ka nyarugenge ikaba ifite imbere yayo ubusitani bwiza ndetse buriho n'intebe zo kwicarwaho usanga zicaweho n'urujya n'uruza rw'abantu baje gutembera mu mujyi wa kigali

Ipoto ry'amashanyarazi rifashweho n'insinga nyinshi, ritewe mu busitani burimo pasiparamu ndetse n'indabo, rikaba riteye imbere y'igipangu cyiza cyubakishijwe amatafari ahiye, izi nsinga z'amashanyarazi zifashe kuri iri poto, zikaba zifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Icyapa kinini kiri ku muhanda wa kaburimbo gifite ishusho ya mpande enye cyanditseho mu mabara y'umweru ndetse n'umuhondo, kigaragaza ibyerekezo bitandukanye nk'umuhanda ujya i Gatuna werekeza i Muhanga ndetse n'i Musanze. Ibi bigafasha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda kumenya amakuru ajyanye n'imihanda bari kugendamo.

Ipoto ry'amashanyarazi rifashweho n'insinga nyinshi, riteye imbere y'igipangu gisize amabara y'umukara, gikikijwe n'ubusitani butewemo indabo ndetse n'ibiti byiza, iri poto rikaba rifasha mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage.

Imbangukiragutabara iparitse kuri parikingi y'ibitaro, ikaba isizwe amarangi y'umweru ndetse yandikishijweho n'amabara y'umutuku, iyi modoka ikaba yifashishwa mu rwego rwo kwegereza abaturage serivise zibafasha kwihutishwa kugezwa kwa muganga igihe byihutirwa.

Imbangukiragutabara ya ambulance iparitse muri parikingi, hejuru y'ama esikariye mu bitaro bitangirwamo serivise z'ubuzima, iyi modoka ikaba ifasha gutwara abarwayi mu buryo bwihuse ibageza kwa muganga.

Akayira gasakajwe amabati kubakishijwe inkingi z'ibyuma, iruhande rwako hakaba hari inkingi z'amabuye ahiye ko mu bitaro bya CHUB, biherereye mu karere ka Huye bitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Aba mama babiri umwe wambaye ibitenge, ufite isakoshi ku rutugu akaba ahetse umwana, nundi wambaye ikanzu, ufite isakoshi y'umukara ku rutugu uhetse umwana, bari inyuma y'umuganga, ufite ibikoresho byo kwa muganga ndetse wambaye n'arinete arimo kujya kubereka aho bahariza serivisi z'ubuganga.

Imodoka iparitse muri parikingi y'ibitaro aho hagaragarwa n'abantu benshi baje kwivuza, hafite ubusitani bwiza butewemo n'imiti ndetse n'umunara ubafasha kubona ikoranabuhanga.

Parikingi yo mu bitaro bya sehashibe biherereye mu karere ka Huye mu ntara y'amajyepfo. Ahagaragarwa imodoka z'ubwoko butandukanye z'abahakora ndetse n'ababa baje kwivuza. Ibi bitaro bikaba bitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi nko kuvura, gusuzuma ndetse no gutanga imiti.

Umugabo uburanira abantu wambaye ikanzu y'umukara ifite agatambaro k'umweru mu gatuza arimo kureba telefone, yicaye iruhande rw'umugore wambaye agapfukamunwa yaje kuburanira, inyuma y'abo yicaye abaje gukurikirana urubanza rwabo.

Abaturage bahuriye mu kibuga bicaye bakikije abacamanza ndetse n'umugabo wambaye impuzankano y'abagororwa urimo kuburanishwa mu ruhame rw'abaturage aho yakoreye ibyaha.

Abacamanza bambaye imyambaro igizwe n'amakanzu y'umukara, ariho akabara k'umwe imbere mu gatuza, harimo abagore ndetse n'abagabo bahagaze ku muronko, mu cyumba kiburanishirizwamo kandi kigacirirwamo n'imanza.

Abashinjacyaha bambaye amakanzu y'umukara, afite agatambaro k'umwe mu gatuza, bafashe ku ibendera ry'igihugu bamanitse ikiganza, imbere y'umucamanza mukuru barimo kurahirira inshingano bahawe z'ubushinjacyaha.

Umukozi wambaye masike imukingira umutwe n'isura hamwe n'igikoresho gikozwe mu cyuma ahetse mu mugongo, hamwe n'igihombo cyohereza imyotsi yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, akaba akora mu kigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya inkongi z'umuriro.

Dr Frank Habineza umukandida w'ishyaka rya Green Party ubwo yari mu modoka hejuru arimo kunyura mu mbaga y'abaje kumushyigikira, mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi biibiri na makumyabiri na kane.

Abapolisi bambaye impuzankano ya gipolisi, bari imbere y'abaturage baje gushyigikira umukandida w'ishyaka FPR inkotanyi, mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w' ibihumbi biri na makumyabiri na kane, aho iri shyaka ryari rihagarariwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nk'umukandida waryo.

Nyakubahwa, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo yari mu mbaga yari yaje kumushyigikira, mu bikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, aho yari yiyamamaje nk'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi, aho yari ashagawe n'imbaga yaje kumushyigikira, rifite ibirango by'iri shyaka.

Imodoka yo mu bwoko bwa yutongo iparitse muri gare ya Nyabugogo, iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye agapira k'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi, imodoka ikaba itwara abantu mu buryo bwa rusange mu rwego rwo korohereza ingendo.

Umuhanda wa kaburimbo wo mu mujyi wa Kigali ugendwamo mu byerekezo byombi ukaba ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza butewemo ibiti by'imikindo ndetse n'indabo ukaba ufite n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.

Isangano ry'imihanda rihuza umuhanda wa kaburimbo uvamo... iva mu byerekezo bitandukanye ikaba igaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto imodoka ikaba ikikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'amatara ahumurikira mu gihe cya nijoro.

Umuhanda wa kaburimbo, usize amabara y'icyatsi, urimo imirongo ukaba ari umuhanda uherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, iruhande rw'ikibuga cyagenewe gukinirwamo golufe, uyu muhanda ukaba wifashishwa cyane n'abantu bakora siporo.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragara ku mihanda ya kaburimbo yo mu mujyi wa Kigali, kikaba kigizwe n'uruziga rutukura ndetse n'ubuso bw'umweru, kikaba kiyobora abatwaye ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, kibamenyesha icyerekezo kitemerewe kunyurwamo.

Icyapa cyo ku muhanda kigizwe na mpandeshatu izengurutswe n'ibara ry'umutu, kikaba gifite ubuso bw'umweru, kikaba giteye mu busitani bukikijwe n'ibiti, bufite iruhande bwarwo parikingi iparitswemo imodoka y'umukara ndetse n'ay'umweru.

Icyapa cyo ku muhanda kigizwe n'uruziga rutukura n'ubuso bw'umweru, gishunyishijwemo imodoka z'umutuku ndetse n'iy'umukara, kikaba kimenyesha abatwaye ibinyabiziga ko kunyuranaho bitemewe mu muhanda bagezemo, mu rwego rwo kugira birinde impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kigaragara mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali ndetse no mu rwanda kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru cyanditswemo umubare mirongo itandatu kikaba gifasha abatwaye ibinyabiziga kumenya umuvuduko ntarengwa ko ari ibirometero mirongo itandatu ku isaha munsi yacyo hakaba hari icyapa kigaragaza ko imbere hari kamera y'umuvuduko.

Inzu iri mu gipangu ikikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse na paransparuma, ikaba ifite igipangu cyubakishijwe amabuye, ikaba iri ku muhanda wa kaburimbo, uyu muhanda ukaba ufite amatara ahumurikira mu gihe cya nijoro.

Inzu ikorerwamo na banki ya Kigali, banki ovu Kigali, aho itanga serivise zitandukanye, harimo nko kubitsa, kubikuza, kuguriza amafaranga abakiriya bayo, ndetse no kubafasha gukoresha ikoranabuhanga mu gihe bishyura ibicuruzwa bitandukanye.

Inzu nziza isizwe amarangi y'umweru yubatswe igereretswe, ikaba isakajwe n'amabati atukura, ikaba ifite ubusitani buteyemo ibimera bitandukanye, iruhande rwayo ikaba ifite igipangu cyubakishijwe udutafari duhiye.

Umuhanda wa kaburimbo ugendwamo mu byerekezo byombi, ukaba ugaragarwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nka moto, imodoka, ukaba ufite ikiraro cy'umuhanda wa kaburimbo hejuru yawo, ukaba ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru ndetse n'ubusitani bwiza, ukaba ufite amatara awumurikira mu gihe cya n'ijoro.

Imodoka ya bisi nini yo mu bwoko bwa Yutongo isize amarange y'umweru ndetse n'ay'ubururu, iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'uduhanda duto tw'abanyamaguru kandi ukaba unyurwamo mu byerekezo byombi, uyu muhanda ukaba ukikijwe ndetse n'ubusitani bwiza burimo n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro.